Ifumbire y'imborera imeze neza, ingorofani bayijanagamo cya majagu bayipakizaga bakayijana mu murima bakayifumbira ibirayi , ibishimbo ,ibintu byose barayifumbizaga nyuma y'igihe gitoya bikaba birashishe bimeze neza cane bakabisarura.

Umuti gumeze neza gwanyuze mu nganda zabugenewe, go kwica indwara zose zakwinjira mu bihingwa. Ku buryo ibyo bihwingwa byakura bifite ubuziranenge, nyuma y'igihe gitoya bikaba biri gutanga umusaruro gufututse, rwose tukarya tukishima cane.

Umuhinzi yasuzumye ikirere, abona kirere kimeze neza n'icyuma cyabugenewe kigezweho mu iterambere ryacu, aratera umuti imyaka imeze neza, iratoshye, ikura neza igihe gitoya umusaruro uraba wose.

Imyenda zo gutera umuti, icuma duteresha, ibigori bimeze neza n'ikirere kimeze neza, nyuma y'igihe gitoya turaza kuba turi gusarura ibigori byacu kuko hameze neza, ikirere kiratekanye ibigori biratoshe ntakibazo.

Ibikoresho bigezweho byabugenewe, abantu babaga bambariye imyenda z'akazi udupfukamunwa. Bagasukura indabo bagatera mu izo ndabo zikamera neza, ku buryo izo ndabo zibaga zizewe ijana ku ijana.

Icyuzi bororegamo amafi gakaba garimo gafite umutekano nyuma bakaza bakagakuramo bakakajana kugagurisha abandi bakagarya, amafi ni intungamubiri ifite akamaro kanini cane.

Ifi ihiye batetse ahabugenewe hameze neza, ifi ni zimwe mu biryo byubakaga umubiri dukeneraga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Zivaga mu mazi bazirobye.

Amafi gameze neza bagarobye mu mazi, ni imwe mu ntungamubiri dukenera ga buri minsi, gubakaga umubiri ndetse n'ubwoko bw'inyama iyuyariye hehe no kugira ubuzima bubi, ni ukugira ubuzima buzira umuze.

Amazi gameze neza gitaweho gororerwagamo, ishamba rimeze neza, ibiti byiza bitoshe, ndetse n'inyamaswa zaje mu mazi ziturutse mu shyamba.

Ibiryo biri ku isahani by'ubwoko butandukanye harimo inyanya. Ni zimwe mu mbuto nziza zifite akamaro kanini cyane, ndetse n'ifi ituma twubaka umubiri n'ibindi byinshi cyane.

Amafi gararobwe gari mu base, iyo bagakuye mu mazi gabaga gapfuye .Ikindi kibaga gisigaye ni ukugajana ku isoko bakagacuruza gagatanga amafaranga, amafaranga gakadukemurira ibibazo dufite.

Biragaragara ko ano mafi amanitse hano yabaye mu mazi. Aradoze cyane, atanga inyama rwose. Ni amafi meza cyane rwose arameze neza, nta kibazo. Yitaweho, barayarobye, barayazana ngo tubone inyama.

Ahantu heza hari amazi ndetse n'ahantu ho kuruhukira, abazi koga barogaga bakidagaduriramo rwose ubona ko hafite isuku, ndetse n'ibiti bihakikije bimeze neza.

Umusaruro gwarabonetse: amafi matoya, indagara, amahera, ni zimwe mu bintu bitangaga umusaruro, byubaka umubiri ni nk'inyama rwose bimeze neza.

Ibirayi bimeze neza cane, byabonye ifumbire mvaruganda, ndetse n'iy'imborera, bibona akavura, bibona n'izuba ubona ko bigaragara neza, igihe gitoya bazaba babisaruye babijane ku isoko, babigurishe ibindi babirye bibakemurire ibibazo bazaba bafite bijanye n'aya mafaranga.

Isombe zimeze neza, zirahantu mu murima, ndetse harimo n'ibitoki n'uruzitiro rw'ibiti. Kandi isombe ni zimwe mu ntungamubiri zifite akamaro, aho abagore babyaye bazifashishaga kugira ngo bagire amashereka ahagije, ndetse zikongera n'amaraso mu mubiri ku muntu uziriyeho wese.

Imboga z'ibidodoki zimeze neza zitoshe ubona ko zitaweho cane, zabonye akazuba zibona n'akavura, ndetse ni zimwe mu ntungamubiri tugiraga, zinaravuraga ni umuti dukoreshaga mu buvuzi bwa gakondo.

Amajeri gameze neza. Gabonye ifumbire ihagije, gabonye ifumbire y'imvaruganda, gabona ifumbire y'imborera, ikirere cyiza, imvura yaraguye, izuba rirava gameze neza cane. Mu gihe gitoya garaba gari gutanga umusaruro ari gose.

Imirima ziteyemo ibiti bashingirizaga ndetse n'ibindi biti binini cane, izo mirima ntabwo zihinzwemo imyaka zirasabwa guhingwamo kugira ngo umusaruro gube ari gwose, ntago muri iki gihe umurimo gwapfa ubusa gudahinzwemo, ni byo byaba ari ikosa.

Amajeri gameze neza gitaweho gabonye ifumbire, baragakoreye gari hafi kwera nyuma y'igihe gito bazaba bagajanye ku isoko bagagurishe agandi bagasigarane bagarye, batangire gukirigita ifaranga babone umusaruro n'amafaranga gabakemurire ibibazo byabo bazaba bafite.

Ikidodoki kirimo ibidodoki byeze kandi impande y'icyo kidoki hari n'ibidariya twifashishaga tukabitema tukabijana kubishingiriza ibishyimbo bikahazamukira bikera neza kandi ikidodoki ni imboga zo twifashishaga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Zifite akamaro kanini cyane kakaduhaga vitamini.

Ibihingwa by'amajeri ni bimwe mu bihingwa bitangaga umusaruro, iyo wagakoreye neza ukagaha ifumbire ihagije, aga majeri gasa neza cyane, gabonye izuba gabona akavura rwose nyuma y'igihe gitoya, baraba bagasaruye bagajane ku isoko agandi bagarye gabakemurire ibibazo bimwe na bimwe bazaba bafite.

Ubutaka buhinze neza cyane bwo guteramo imyaka, nyuma y'igihe gitoya bazaza bawuteremo imyaka ndetse harimo n'insina, ariko izo nsina zimeze neza zifite n'ibitoki bitangaga umusaruro.

Ibiti byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibya voka ni ibiti bitangaga umusaruro, amazu, abana baragendaga, hehe no kugira ikibazo c'umwuka mukeya, kuko hano hantu hameze neza, haratuje cane.

Umurima guteyemo intusi ntoya, umurima gusa neza cane, ndetse ibiti ni bimwe mu bikoresho bifashishaga ubuzima bwacu bwa buri munsi, tubikoragamo intebe, ameza, ndetse n'ibindi cane cane nko kubaka, ubu nta hehe no kugira ikibazo c'ibikoresho by'ibiti.

Ibiti bimeze neza ubwoko bugiye butandukanye, inka zirarishaga ikibuga cyo kwidagaduriramo. Ibigo by'amashuri abanyeshuri bigagamo, amabati gasize amarangi, inzugi zisize amarangi ndetse no ku madirishya hameze neza.

Imirima zirimo ibihingwa ndetse n'izindi zitarimo ibihingwa n'ibiti biri ku izo mirima bitangaga akayaga ndetse n'imifuka abahizi bahiriragamo inka bakazijanira, ukabona bikoreye, bakajanira izo nka.

Ubwatsi bw'urubingo bwitaweho neza barabufumbirira, bukikije umurima, hari ibitoki, inka zaburya zikamera neza, zikazana amata tukaganywa, amata yaba aryoshye cyane kubera ko ubwatsi bwitaweho bwabonye ifumbire nziza cyane pe!

Umurima gurapfa ubusa nta musaruro, bazaze baguhinge bagushiremo ifumbire, ifumbire ihagije nyuma yaho bazaze baguteremo ibihingwa bazasarura naho guca urapfa ubusa nta musaruro, nta mubare gwaba gurimo.

Abantu bicaye higanjemo abagore n'abagabo n'igare ripakiye imyumbati ubona ko imyumbati yitaweho ku buryo bukwiye, yarezwe itanga umusaruro guhagije. Ni bimwe mu biryo bitumaga tugira imbaraga.

Ibi binyomoro bimeze neza, byitawe ho biratukuye, byabonye ifumbire, byabonye imvura, ikirere cyza, ni ugusarura nta hehe n'amaraso makeya, ni ukurya ibinyomoro, ukitabwaho ibintu bikagenda neza.

Amashu gameze neza, gari mu murima, baragakorera, bakagatera ifumbire, bakagatera umuti ,nyuma y' igihe gitoya bakagajana ku soko bakagagurisha gakadukemurira ibibazo bimwe bimwe dufite.

Igitoki careze kivagamo umuneke ndetse abantu baragikundaga, uragifataga ukakijana ukajya kugitara, cyamara iminsi ukagitarura bakarya, ibindi bakabijana ku isoko bakagurisha bikabona amafaranga ahagije.

Indimu zimeze neza zasaruwe zitaweho ku buryo bukwiye. Ni zimwe mu mbuto zivuraga indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse zikaduha n'amafaranga ku musaruro ukwiriye.

Ibigori bya mayizori bisa n'umuhondo babikoramo injugu tukazifashisha tukazirya, umuntu wese utambutse akagura. Ni bimwe mu bihingwa biduha umusaruro ku buryo bukwiriye.

Umurima munini, abahinzi barahinga bifashishije amasuka, hateyemo insina z'ibitoki, ndetse ni barangiza guhinga bazazana n'ibindi bintu bateremo by'imyaka, kugira ngo babashe gukirigita ifaranga.

Ibinyomoro bimeze neza birunze ahantu, byareze birasarurwa. Ibinyomiro ni zimwe mu mbuto zitanga umusaruro iyo wabikoreye neza, ukabyuhirira, ukabishyiramo ifumbire ihagije, ukabikorera neza. Ibinyomoro bitanga umusaruro ufututse.

Umurima gw'ibigori bimeze neza. Birahetse, biri hafi kwera, birabura nk'ukwezi cangwa ibyumweru bitatu. Ibigori rwose nyuma y'igihe gitoya baraba bari ku bisarura byitabweho ku rugero rukwiye.

Umurima gurahinze gurimo ibitunguru ariko ntabwo bimeze neza bigomba kongerwamo ifumbire; imvaruganda, imbonerera nyuma y'igihe gitoya bigasarurwa bizaba bimeze neza umusaruro ari wose wiyongeye bityo ukaguha inyungu ifututse.

Ibicuruzwa by'ibiribwa by'intungamubiri higanjemo ibyo kurya inyanya, imyembe n'utudomoro turimo amavuta ndetse n'ibindi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'imyembe bumeze neza, ibiti biratoshe, byitawe ho ku buryo bukwiye, mu gihe gitoya ni ugusarura tukajyana mu isoko bakaduha amafaranga, bityo tukarusha ho kwiteza imbere, dukura no mu bitekerezo, ni ugukura mu maboko mu mufuka tugakora.

Ahantu heza ho gutunganyirizwamo imbuto ndetse y'ibirayi, kandi ibyo birayi bibonaga akayaga ndetse bikagerwaho n'izuba, Barabitunganya. Bazaga kubireba babona ko ibirayi bifite umusaruro guhagije, hanyuma bakaza bakagura izo mbuto bakazijana mu mirima zabo.

Ibihaza bimeze neza by'ubwoko bugiye butandukanye, harimo ibihaza by'umuhondo ndetse n'ibihaza by'umweru n'iby'umukara byose biraryohaga, ni zimwe mu ndyo nyarwanda tugiraga zibaga zifite akamaro kanini cane.

Inkoko z'amabara agagiye gatandukanye harimo: inkokokazi ndetse n'amasake gafite ahantu hanini ho kwidagaduriramo zisanzuye, ubu zirikurya zose ziri hamwe zisangira ahantu hanini cane.

Ubuhinzi bw'inyanya ni bumwe mu buhinzi butangaga umusaruro iyo wabwitayeho ukabukorera neza, ukabona ifumbire ihagije ndetse n'ikirere kimeze neza, aka kavura kakazigeraho, zitangaga umusaruro umeze neza.

Ibijumba bimeze neza byareze byarasaruwe by'umutuku. Tugiraga ibijumba bitandukanye dore biri mu kabase n'abantu babireba ubona ko ari byiza bigaragara neza. Ni bimwe mu biryo bituma tugira imbaraga.

Umurima urimo ibigori, bari kubikorera neza. Barabibagarira nyuma y'igihe gito, bino bigori nibibona imvura, bikabona akazuba, bakabishyiramo ifumbire y'imvaruganda, ibigori bizaba bifite umusaruro bazabijyanye ku isoko babihe...

Ubuhinzi bw'ibirayi bwitaweho bwabonye ifumbire mborera, bubona ifumbire mvaruganda, abaturage bose barasaruraga, bari gusarura. Ni ibirayi byiza kandi bari kubisarura bishimye cane ntabwo bahura n'ikibazo c'inzara, kuko bino birayi babyitayeho cane pe.

Abanyonzi, abamotari batwaraga amata gari mu bicuba bakagajana ku isoko bakakagura, kakavamo amafaranga, akabakemurira ibibazo byabo bigiye bitandukanye ndetse hehe no kugira ikibazo c'amafaranga.

Ibigori byeze ariko ntabwo bimeze neza ntabwo byanitswe ku buryo bukwiye harimo ibyiza ndetse n'ibindi bitari byiza ariko iyo ufashe ibigori ukabikorera neza bikabona ifumbire ihagije bitangaga umusaruro.

Intoryi zareze zirasarurwa zitaweho ku buryo bukwiye zabonye ifumbire, zibona akavura, zibona n'izuba, zitanga umusaruro ku buryo aho wazi waziteka izindi ukazijyanaana mu isoko bakaguha amafaranga, gakemurira ibibazo byawe waba ufite.

Amashu ni gamwe mu mboga zitangaga umusaruro ndetse zigiraga n'intungamubiri. Gitaweho, ribona ifumbire, ribona izuba, ikirere ciza, nyuma y'igihe gitoya baraba barijanye ku isoko, bayagurishe yatange umusaruro ku mafaranga azakemurira ikibazo buri umwe wese.

Ibishyimbo by'imiteja bitari byakabaye binini. Imiteja ni bimwe mu biryo turyaga bitangaga vitaminini ndetse tukagira ubuzima bumeze neza, ahantu hameze neza zibaga ziri.

Inanasi zeze ziri ku mufuka barazihata abaturage bakazijana ku isoko kuzicuruza, bazikatakase uduce uduce bakazishira mu madubo, bakagenda bazicuruza mu mayira.

Ibihingwa by'ibishimbo bitari byera, ibyo bishimbo biri kwitabwaho ku buryo bukwiye, byabonye ifumbire, barabikorera neza kandi barabibaganira, nyuma y'igihe gitoya bazaba bari kubisarura babijane ku isoko babigurishe, ibindi babirye, bibakemurire ibibazo bazaba bafite bya hato na hato.

Ubuhinzi bw'inyanya ni bumwe mu buhinzi butangaga umusaruro. Iyo wazikoreye neza ukazitaho ukaziha ifumbire rihagije. Izi nyanya zifite umusaruro guhagije, zireze, harimo n'izindi zitarizera. Ubona ko zitaweho ku buryo bukwiye, bari kuzisarura ndetse bazishyira mu bintu byabugenewe.

Amatunda gameze neza, gareze ,gabonye ifumbire ihagije ,garakorewe gitaweho ku buryo bukwiye arasarurwa gameze neza cane rwose cane.

Ibihingwa bimeze neza biratoshe, umuhinzi araza akabisura, akabireberera aho bitari kugenda neza akahakosora, biritabwaho bifite ikirere cyiza nyuma y'igihe gitoya bizaba bifite umusaruro ufututse cyane rwose.

Ubuhinzi bw'inyanya ni bumwe mu buhinzi butangaga umusaruro guhagije iyo wabwitayeho ukabikorera neza, umugabo arabikorera yambaye ingofero n'agapira k'umweru abona ko ibyo ari gukora azabona inyungu ihagije.

Umurima gumeze neza abantu barazaga bagasarura, abagore, abagabo. Imyaka bakaba barayuhiriye, yarabonye ifumbire, birashishe bimeze neza, byitaweho byabonye ikirere cyiza, akazuba karavuye, akavura karagwa bimeze neza cane.

Ubuhinzi bwitaweho busa neza, bwabonye ifumbire ndetse abantu bazaga gusura ubwo buhinzi bakagisha inama ukuntu babigenje, kugira ngo buse neza nabo babashe kubwira abandi bityo iterambere rirusheho kuzamuka.

Igihaza gisa neza cane c'umuhondo, bigaragara ko citaweho, bakagikorera, kikera, cabonye ikirere ciza. Ni bimwe mu biryo bya kinyarwanda bifite akamaro kanini cane biteraga imbaraga na byo.

Ibitoki bitandukanye, byeze, bihiye, bimeze neza, hariho igisa n'icatsi kitari casha ndetse n'ikindi cahiye, ubona ko rwose ari ibitoki byitaweho ku buryo bikwiye barabikorera cane.

Ubuhinzi bw'imyembe ni ubuhinzi butoroshye kubuhinga. Ariko izi myembe zimeze neza, gumwe guratukuye, izindi ntago zitukuye ariko ziri hafi kwera. Umwembe ni imbuto zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, zidufasha gukura neza cyane.

Ubuhinzi bw'icayi ni bumwe mu buhinzi butangaga umusaruro, kuko tubukeneraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho abaturage bazaga baje gusura ubwo buhinzi bakenyeye n'ibitebo bakoreshaga bari gusarura icyayi. Basarura baterera mu ibyo bitebo.

Imifuka zirimo ibirayi ubona ko ibirayi byitaweho ku buryo bukwiye, barabikoreye neza babiha ifumbire ihagije, byatanze umusaruro gumeze neza, aho babijanye mu soko bakabaha amafaranga gagakemura ibibazo bagiye bafite bitandukanye.

Amashu meza cane yitaweho ku buryo bukwiye, bagahaye ifumbire ihagije y'imborera ndetse n'imvaruganda, kandi gameze neza, gabonye akazuba, gabona imvura, mu gihe gitoya garaba geze bagasarure, bagajane ku soko, agadi bagarye, kandi gafite akamaro kanini cane.

Intoryi zimeze neza ziri mu bwoko bw'ibiribwa turyaga, bifite intungamubiri ihagije kandi ziri mu kabase ubona ko zatanze umusaruro guhagije kandi zitanga amafaranga gahagije.

Umugore utereye isuka ku rutugu ndetse n'imirima zigiye zitandukanye, agiye guhinga ubona ko ibyo ari gukora abifitemo ubushake ndetse n'umurava, kuko azi inyungu zabyo n'agaciro kabivagamo.

Igihaza kimeze neza kiri mu gihe cyo gusarurwa, nubwo batari bagisarura. Ariko iyo wagikoreye ukakivomerera, ndetse kikabona akazuba n'ifumbire rihagije, gitangaga umusaruro ni indyo za kinyarwanda zifite akamaro kanini.

Ubuhinzi bw'ibigori, ibigori barabyerekana, umuntu arabyerekana, bigaragare ko bino bigori byitaweho cyane, harimo ibigori bya marizori by'umuhondo, ndetse n'ibigori by'umweru byitaweho, byarumye, barabisaruye, barabikorera neza.

Ibigori bimeze neza byitaweho ku buryo bukwiye, byabonye ifumbire y'imvaruganda, bibona ifumbire y'imborera, ikirere kimeze neza, imvura yabigezeho, nyuma y'igihe gitoya, baraba babisaruye babijyane ku isoko, bakemure ibibazo bimwe na bimwe bazaba bafite, ibindi babisigarane, babirye.

Abaturage bari guhinga mu gishanga, bateragamo ibintu byeraga mu gishanga kuko ntabwo wahinga ibintu biteraga mu gishanga ngo bizere, Aba barabimenyereye ntabwo wahingamo ibirayi, ibishimbo ngo bizere. Bahingagamo umuceri, ibisheke n'ibindi. Ibyo ni byo bijanye no mu gishanga.

Umurima guhinzemo ibisheke. Ibisheke bireze, ibisheke by'umutuku. Ariko bino bisheke ntabwo byabonye ifumbire ihagije kuko iyo biza kubona ifumbire ihagije ntabwo byari biraba bifite ingingo zingana gutya. Ingingo zari ziraba ari ndende ari nini cyane. Ntabwo bino bisheke byabonye ifumbire ihagije nubwo byeze, bigaragara nk'aho bikomeye.

Ibicuruzwa byo kurya bijanye: n'imboga karoti, insenda, kokombure, ibibiriganya, ibitunguru, intoryi, insenda ndetse n'ibindi byinshi.

Ubucuruzi bw'ibiribwa imineke, ntabwo hano hantu hemewe gucururizwa ibintu hameze gutya, ntabwo hababugenewe hari udusuko twabugenewe, ntabwo hano hantu hemewe rwose.

Urusenda rutukuye. Tugiraga ubwoko bw'insenda bugiye butandukanye, insenda zibaga ari ngufiya, n'izindi zibaga ari ndende. Urusenda bigaragara ko rwitaweho cyane rwabonye ifumbire bararukoreye.

Ubuhinzi bw'imbuto bugendaga neza， barasaruraga， bakabishyira mu bitebo， harimo indimu， amaronji，imyembe n'ibindi byinshi byose ni ukuzana bagashyira mu masoko bagacuruza，ubucuruzi bukagenda neza.

Umu mama uri gutunganya pipinyeri, ubona ko ibyo ari gukora afitemo umwuga. Afata itaka aripakira mu bihoho, ndetse nyuma y'igihe gitoya azaba ari gukirigita, ifaranga bari kuza kugura.

Umwembe gumeze neza bagukoreye neza, baguhaye ifumbire, bagwitayeho cane, ariko ntabwo gwari gwera, gukeneye igihe gitoya, guri hafi kwera. Nyuma yo kwera bazagujana ku isoko gumeze neza cane ntago gwapfuye.

Ikigega cyiza cabugenewe kijanye n'iterambere tugezeho, bashiragamo imbuto, ibikoresho birahari bimeze neza, nyuma y'igihe gitoya bakaza kugura imbuto bakaja gutera, zibaga zujuje ubuziranenge, nta kibazo zifite rwose.

Ibishimbo bimeze neza byumye biri mu ngorofani ibitwaraga, umurima gumeze neza, iyo wabikoreye neza ukabiha ifumbire ikwiriye, ubijanaga ku isoko bakabigura, bikagukemurira ibibazo waba ufite byose.

Ibigori biri mu mufuka byarasaruwe ni ibigori byiza by'umweruru, bimeze neza byitaweho ku buryo bukwiye biragaragara ,ni ikigori gitanga umusaruro ufututse ufatika cane ni ikigori rwose kimeze neza cane.

Imbuto zimeze neza ziri ahantu hatekanye. Ahantu ho gutunganyirizamo imbuto, hubatswe neza bijyanye n'iterambere tugezeho. Uraza ugafata ukajya gutera ubyizeye neza ijana ku ijana ko izo mbuto zawe zimeze neza, nta hantu zangiritse habe na gato.

Imifuka ziri ahantu habugenewe, zirimo imyaka ubona ko bazubakiye, bazirinda imvura ndetse n'izuba, haratuje hafite umutekano, ni ukuza kuharinda nyuma bakabijana kubigurisha.

Ibigori byumye bya marizori, bitangaga umusaruro gumeze neza, tugiraga ibigori bitandukanye, hari ibigori by'amabara ndetse n'ibigori bitari iby'amabara by'umweru.

Ibigori byumye byitaweho, bifite impeke nziza, byareze, ni birebire, byabonye ifumbire, bibona izuba, bibona akavura, bimeze neza cane. Igihe gitoya ni ukubijana ku soko bakabigura, bakabibeteshamo igikoma.

Imifuka zirimo imyaka zarasaruwe ,ibigega bigaragara ko ibihingwa byatanze umusaruro ufututse.

Ibishimbo bya kizungu by'uruyange bigaragara neza . Tugiraga ibishimbo bitari ibya kizungu, bya kinyarwanda. Ndetse n'ibishimbo bya kizungu bibaga ari igishimbo kinini cy'umukara, iyo ceze kirahenda ntabwo kigurwaga kimwe n'ibindi byose.

Amazu g'ubucuruzi gameze neza harimo ibintu bijanye n'imyaka: amasaka, uburo, ingano, ibigori, soya, amajeri ni ibicuruzwa byo mu murima.

Ibicuruzwa by'ibinyampeke biri mu mufuka abantu bari kubicuruza baturutse hirya no hino, higanjemo ibinyampeke, ibishimbo, amasaka ndetse n'akabase badahishaga. Abantu baturutse hirya no hino barazaga bakagura abatabifite.

Ibigori bimeze neza byumye biri mu nzu babihunitsemo, bibonaga akayaga ndetse ubona ko bifite umusaruro guhagije ni byiza cyane, babyitayeho k'uburyo bukwiye barabikorera, byabonye akayaga bitanga umusaruro, babikusanyiriza hamwe.

Amashaka meza cane, manini, gabyibushe, gatari gera, ariko igihe gitoya, garaba geze. Bigaragare ko gitaweho, gabonye ifumbire ihagije, iy’imborera ndetse n’iy’imvaruganda. Nyuma y’igihe gitoya, bazagasarura, bagajane mu isoko, gakemure ibibazo na bimwe bazaba bafite.

Ubunyobwa bwitaweho bwareze, barabusaruwe nyuma y'igihe gitoya bazabutonora, babujane ku isoko, babubete, ndetse bubakemurire ibibazo byabo bazaba bafite byose.

Umusaruro gw'ibigori; ibigori byumye biri ku mashitingi abantu barabyanika, ikirere kimeze neza ni ku izuba, bimeze neza cyane bino bigori byitaweho ku buryo bukwiriye cane rwose.

Ibishimbo byumye bidufasha kubaka umubiri ku bantu badafite ubushobozi bwo kugura inyama barabitekaga bakabirya. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukundaga ibishimbo tubigerekaga ku bijumba, ibirayi. Ni indyo ya kinyarwanda twifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Iki kigega rwose ntabwo kijanye n'iterambere turiho; nyakatsi yaracitse kigomba kuvugururwa, kirimo ibigori ariko hari ibigega bigezweho ntabwo kino kigega cyemewe ntabwo kijanye n'iterambere tugezweho kigomba kuvugururwa.

Imbuto zimeze neza, umuntu azikoreragamo akinjira, ni ikigega ciza cubatse neza, kijanye n'iterambere . Izi mbuto ziba zifite ubuziranenge kuko biba biri kugaragarira amaso biri n'inyuma biba bimeze neza cane.

Ibihingwa biri mu gishanga bimeze neza, biragaragara neza cyane, mu gishanga nta bwo wateramo ibishyimbo ngo bizere, nta bwo wateramo ibirayi ngo bizere, ibyo ni byo batera mu butaka. Ariko umuceri, ibisheke ibyo nibyo bater mu gishanga.

Ubunyobwa ni ibicuruzwa byiza cane, abantu barabuhingaga, butangaga umusaruro. Iyo wabukoreye ukabwitaho, bukabona ifumbire ihagije, ubujanaga ku isoko bakabugura bakabubeta, ndetse bikaguha amafaranga ahagije, kagagukemurira ibibazo bimwe na bimwe waba ufite.

Ibihingwa byitaweho cane ku buryo bikwiye, byarafumbiriwe, bibona imvura, ikirere ciza, byatanze umusaruro ugaragara, biri mu mifuka iruzuye, ubona ko byabaye ibihingwa bifite inyongeramusaruro ihagije.

Soya zimeze neza, zitabweho ku buryo bukwiye, zabonye ifumbire zirazamuka neza, zabonye ikirere cyiza imvura ya yaraguye zimera neza. Izi soya mu minsi mikeya turaba turi gusarura zifite agaciro cyane.

Imbuto ziragaragara neza ,zimeze neza ziri hejuru nyuma y'igihe gitoya nibazitera ziraba zatangiye kwera ,zitangiye gutanga umusaruro bazazikorere ifumbire irahari rwose nta kibazo.

Amajeri asa neza, ameze neza, bayitayeho ku buryo bukwiye, yabonye ifumbire y'imvaruganda, ndetse n'iyi'imborera, barayakorera, ikirere cyiza mu igihe gito azaba ari gutanga umusaruro ukwiriye, amwe bayarye, andi bayajyane ku isoko, amafaranga bakemurire ibibazo byabo.

Ibigori bifite amabara bitangaga umusaruro, tugiraga ibigori bigiye bitandukanye ibigori by'umweru ndetse n'iby'ibifite amabara, n'ibindi by'umuhondo ubona ko ibigori byumye byitaweho ku buryo bukwiye.

Ingano zimeze neza cane, tugiraga ubwoko bw'ingano butandukanye:tugiraga ingano z'umusururu, n'ingano z'umutsima, hano tubona ingano z'umusururu ziba ari ndende, ingano z'umutsima zibaga ari ngufiya.

Ibigori byareze biruma, barabyanitse, byitabwaho ku buryo bukwiye, aho babizanye bakabishira mu kigega ahabugenewe hameze neza, hafite umutekano, aho bihumeka bigatanga umusaruro ku buryo bukwiye.

Ibigori byumye bipakiye mu mufuka bimeze neza cane ubona ko byitaweho ku buryo bukwiye, byareze barabisarura babishira mu mufuka, babijana ku masoko nyuma y'igihe gitoya bizabaha amafaranga baga gakemure ibibazo byabo bazaba bafite.

Soya zitaweho zabonye ifumbire ihagije, zara zareze barazisarura. Rwose ibase iruzuye izindi ziri hasi ni nyinshi cane. Bazazijana ku soko bazigurishe, zibashe gukemura ibibazo byabo, zitangire abana mitiweli, zigaburiye n'abandi bantu.

Ibishimbo bimeze neza bifite amabara. Tugiraga ibishimbo by'ubwoko bugiye butandukanye, hari ibishimbo bibaga bisa n'umutuku ndetse n'ibishimbo bibaga bisa n'umweru n'ibindi bibaga bifite amabara nk'ibi, ni bimwe mu biryo byubakaga umubiri, iyo udafite ubushobozi bwo kugura inyama ubikoreshaga. Ibishimbo nabyo bibaga mu bwoko bwo kubaka umubiri.

Abaturage bicaye bari kubaremesha inama, abayobozi bagenda babaha ibitekerezo ndetse nabo bagatanga ibibazo bafite, bakabikemura nta n'umwe uhejwe bose bunganirana.

Inka zimeze neza z'inyambo. Ni inka zitangaga amata garyoshe, kandi izo nka iyo wazitayeho ukaziha ubwatsi buhagije zigukuraga mu bukene. Zibaga mu Ntara y'i Rwanda y'Amajepfo.

Ubworozi bw'inkoko ndetse n'ubw'ihene, zigiye zitandukanye ariko icyo kiraro bibagamo ntago cyujuje ubuziranenge kirashaje cane, ni ukugikorera kikamera neza kugira ngo izo hene n'inkoko zibe zirabamo zifite umutekano uhagije.

Inka nziza imeze neza inka rwose ubona ko yitaweho, yabonye ubwatsi bwiza iri ahantu hameze neza. Ikirere ciza nyuma y'igihe gitoya, iraba iri gutanga umukamo. Amata bagakame bagaje kukagurisha babone amafaranga.

Agakwavu kakiri gatoya kavutse, bagafashe ubona ko kameze neza. Kabaye ahantu heza ni ukugakorera kakagira umusaruro na ko amafaranga akagenda yiyongera, ku buryo nta bukene bw'amafaranga wagira.

Abaganga babaga bambaye imyenda zabugenewe, bambaye n'udupfukamunwa, baje kureba inka ibibazo bimwe na bimwe zigiye zifite bakazisanga mu biraro, basanga inka zifite ikibazo bakazivura kuko babaga barabyigiye.

Inka zimeze neza ziri mu kiraro kandi zifite ubwatsi aho abantu bazaga kuzireba bakazifotora kandi n'ibiti bihakikije izo nka zibonaga umwuka mwiza zigatanga umukamo amata gakaboneka.

Udushwi tukiri dutoya turarya neza, turi ahantu hafite isuku ndetse n'ahantu turira hameze neza, nyuma y'igihe gitoya tuzaba twakuze dutangire gutanga umusaruro gukwiriye.

Ibyana by'ingurube bimeze neza byakuze. Ingurube ni zimwe mu nyamaswa iyo wazitayeho ukazihereza ibiryo bikwiriye, zirororokaga, zibyaraga abana benshi, ukabijana kubigurisha, bikagukemurira ibibazo, hehe n'ikibazo ca minerivale c'abanyeshuri, hehe na mitiweli rwose.

Inzu zimeze neza zo kororeramo inka, kandi izo nka zikaba zitangaga umusaruro. Bakamaga amata bakagajana ku isoko bakagurisha agandi bakaganywa, abantu bazaga kureba izo nka bakazisura.

Inka nziza ziri mu kiraro, zifite n'amahembe zisa neza cane, bigaragara ko zabonye ubwatsi bwiza, zizatanga umusaruro gw'amata bagakame noneho bagajane kugagurisha agandi baganywe, hehe na bwaki.

Ahantu inka ziba hameze neza, hari ibiraro bijyanye ni iterambere, hari ubwatsi bwo kurisha zimeze neza cyane pe! ikirere kimeze neza urebye nta kibazo zibona ubwatsi ku gihe.

Abaganga bambaye imyenda z'ubururu z'akazi zo kuvura, ndetse inka ziri mu kiraro bakazitera inshinge, nta ndwara n'imwe yaba ihari yatuma inka itamera neza, ni uguhita bayivura ako kanya.

Ingurube yabyaye. Utwana twayo turi konka, iratuje. Ingurube ni zimwe mu nyamaswa zitangaga umusaruro ufututse, kuko ingurube iyo wayikoreye neza ukayigaburira neza ikabyara, iguhaga amafaranga menshi cyane ndetse n'ifumbire.

Inka zimeze neza, ziri ahantu heza mu mucaca, zigiraga amata garyoshe, zifite amahembe, ndetse izi nka bazitaga inyambo, zibaga mu karere k'amajyepfo mu gice cy'u Rwanda.

Intama nyinshi cyane z'umweru zirisha ziri ku murongo, ndetse aho ziri kurira haba hameze neza ubona ko bisa neza, ni ikigo cy'amashuri, abanyeshuri bigiramo bagafata amasomo akagenda neza.

Abaganga b'inzobere babyigiye bafashe , akagurube bagiye kugatera urushinge bakavura bambaye imyenda zabugenewe , amarinete rwose ubibona ko bameze neza cane nta kibazo , nta hehe no kugira ngo inyamaswa ngo zarwara zigapfa , nazo zabonye uburenganzira bwazo.

Amatungo yo mu rugo nk'intama ubu abagore n'abagabo bose bararagiraga nta kibazo aho mbere abagabo aribo baragiraga ariko ubu n'abagore basigaye bararagira ubona ko zimeze neza zitaweho zabonye ubwatsi bwiza.

Inyoni imeze neza ibyihushe, ahantu heza hatuje irarya ibyatsi, igaragara neza cane, irasa neza rwose ku buryo bukwiye.

Inyoni mu kirere zidagadura zihagaze ku nsinga zito ndetse umuronko, zikundaga kuganira cyane cyane iyo ziri ahantu hatuje nta kintu cyazibangamira ikirere kimeze neza, nta rusaku zahura narwo.

Inyoni imeze neza irahantu hatuje heza cyane, kandi inyoni ni zimwe mu nyamaswa zidufitiye akamaro kanini. Ahantu baturutse hirya no hino baza kuzisura, biga uburyo inyoni zibayeho kandi bafite n'ubushishozi bwo kumenya inyoni zose.

Inyoni z'ubwoko bwose, mu Rwanda tugiraga inyoni zitandukanye, hari inyoni zo mu kirere n'inyoni zikundaga kugendera ku butaka. Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zituzaniraga amadovize ba mukerarugendo bavaga ku ruhande bakaza gusura inyoni, nazo zirasurwaga.

Inyoni zigiye zitandukanye ndetse zifite umujoshi muremure, ni zimwe mu nyamaswa tugira zidufitiye akamaro, abantu baturutse hirya no hino barazaga bakazisura, bakiga n'uburyo zivuga, zibana n'abantu.

Inyoni nziza ihagaze ku giti kandi ifite amabara gagiye gatandukanye: umuhondo n'umutuku. Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zidufitiye akamaro aho abantu baturutse hirya no hino bazaga kuzisura bashaka kwiga uburyo zibayeho.

Inyoni imeze neza irashishe cyane, iri mu mucaca mwiza, umucaca utoshe, ahantu hatuje. Ituzanira ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize baturutse mu mahanga, ahantu henshi hatandukanye bakaza kuzisura. Inyoni ni zimwe mu nyamaswa ziduha amafaranga ku buryo bushimishije.

Ingagi ziri mu ishyamba zirakundanaga cyane zirahoberanaga, ibyatsi bimeze neza. Ni zimwe mu nyamaswa zifitiye abanyarwanda agaciro kanini cyane. Aho abanyamahanga bazaga baje kuzisura baturutse hirya no hino, ndetse n'abanyarwanda bakazisura bakadusigira amafaranga g'abanyamahanga gagadukemurira ibibazo byacu dufite.

Inyamaswa nazo zirakundanaga, inkende ihetse umwana wayo, ndetse iri ahantu heza, hameze neza cyane, hafite umutekano, iragenda itembera, n'umwana gwayo gwuratuje, ubona ko ibintu byose bimeze neza.

Inyoni nziza, irahantu heza, ifite ibara ry'umukara n'umweru. Inyoni ni zimwe mu nyamaswa dufite, zifite akamaro kanini cane, aho abanyamahanga, ndetse n'Abanyarwanda baturutse hirya no hino, bazaga baje kuzisura, bazireba, biga uburyo zibayeho.

Ingagi imeze neza isigatiwe umwana gwayo, aho igiye hose iragugendanaga iguheka mu mugongo. Ingagi ni zimwe mu nyamaswa zituzanira amafaranga, ba mukeragendo bazaga kuzisura, tugiraga n'umuhango wo kwita izina ingagi. Ingagi zidufitiye akamaro, agaciro kanini ku rwego rwo hejuru.

Inyamaswa zo mu shamba bakundaga kwita uduhene tw'ishamba, zibaga ziri mu shamba ubona ko zifite umutekano, nta bashimusi bahari bo kuzishimuta, ariko ubungubu iterabere jyaraje bose barabafashe.

Inyoni imeze neza ku giti ahantu hameze neza hatuje. Ni zimwe mu nyamaswa ziduhaga amafaranga, abantu baturukaga hirya no hino, bakaza kuzisura bagasiga amadorari tukiyitaho cane.

Inyoni hagati yamashami， inyoni imeze neza， itekanye， ituje nta rusaku， ikirere cyiza kimeze neza cyane rwose.

Inyoni nziza ifite umurizo muremure y'umukara n'umweru, iri ahantu hatuje hatagira urusaku. Inyoni ni zimwe mu nyamaswa zitangaga umusaruro, aho bantu bazaga kuzisura bakareba ubwoko bwazo.

Inyoni nziza imeze neza cane kandi isa neza, iri ahantu hatuje hahashishe hafite ubuziranenge kandi inyoni ni zimwe mu nyamaswa zitangaga umusaruro, aho abantu baturutse hirya no hino bazaga kuzisura bareba ukuntu zibayeho n'uburyo zibayeho.

Ubwoko bw'inyoni buryaga inyama tugira n'izindi nyoni zitaryaga inyama, ariko ziri ahantu heza hameze neza cyane, ndetse ubona ko ari inyoni zifite umuco.

Inyoni zimeze neza ziri ahantu heza hatuje cyane ndetse zibereye hejuru ku mababi ubona ko zifite agaciro kanini abantu baturutse hirya no hino barazaga bakazisura ndetse ni zimwe mu nyamaswa zidufitiye akamaro kanini cyane.